Hano hari umunara, umunara w'amashanyarazi uri gutanga amashanyarazi ku baturage bawuturiye bigaragara ko hari n'umuhanda wa kaburimbo n'abanyamaguru bari kuwugendamo bisanzwe.

Hano kugaragara ifoto yafatiwe mu muhanda muhanda usanzwe w'abanyamaguru urikwerekana hirya ko hari iy'ubucuruzi ya Simba barikwerekana n'abanyamaguru bayigendamo.

Hari kugaragara umuntu utwaye igare umunyamagare kunzira yo mu muhanda wa kaburimbo utwayeicyo bigaragara ko ari amabati n'amabatite yatse ku igare.

Hano bari kwerekana umuhanda uri mu gace runaka, umuhanda wa kaburimbo harimo abantu umuhanda utarimo n'imodoka, umuhanda uri aho gusa uturiwe n'amazu uteye hirya n'ibiti n'iminara.